Aba bantu bicaye hamwe bari mu nama, iyi nama barimo irabafasha kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, aho bafite n'ibyo kunywa imbere yabo.

Uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane, ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi ari kubasangiza ku butumwa agomba kubagenera. Ahantu bari ni ahantu hiyubashye cyane.

Hano ndimo ndahabona abagabo batanu harimo abagabo b'abanyarwanda bakaba bari kumwe n'undi mugabo w'umunyamahanga, barimo barungurana ibitekerezo muri rusange.

Aba ngaba ni ababyeyi beza cyane b'abanyarwandakazi, aho bateraniye mu cyumba cy'inama barimo bariga ku bijyanye n'uburyo umugore n'umukobwa bahabwa agaciro karambye.

Bano bantu bari mu nama barimo barayikorera ahantu heza cyane. Bari mu nzu iteye ubwuzu, ifite amatara asa neza. Kandi na bo bicaye mu ntebe zisa neza cyane.

Aba ngaba ni abantu benshi bagiye batandukanye bari mu bijyanye no kwiga ku bibazo bitandukanye, aho bicaye ari benshi cyane aho basengera bahateraniye ari uruvangitirane.

Aba ngaba ni abantu b'itsinda rigari biragaragara ko bahuriye mu cyiciro runaka, barimo baratanga amafaranga mu buryo bugiye butandukanye aho hari abantu bafite amafaranga menshi cyane.

Uyu mugabo yicaye mu nama, aho arimo arunganirana n'abandi mu bijyanye n'ibitekerezo, byakubaka igihugu cyamubyaye, iki gihugu ni igihugu cyiza cyane.

Ahangaha ndimo ndahareba umudamu munini cyane ubyibushye, akaba arimo aritegereza umusore urimo kumugezaho icyifuzo cy'ububuzima bwe.

Iyi foto iteye ubwuzu; aho tubona ko umubyeyi w'umugore yari yagiye gusuhuza abashinzwe umutekano bari bagendereye Umudugudu we.

Uyu nguyu ni umudamu mu byukuri arimo arereka abantu uburyo wakwifashisha ikoranabuhanga cyangwa se za mudasobwa zabo mu gukora akazi neza batakishe.

Hano ndimo ndareba abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abagore. Bakaba bahuriye mu nama, aho bari kwiga ku bibazo byugarije isi.

Hano ndimo ndahabona umugabo arimo arandika mu ikaye yandika ibyo bavugiye mu muhuro hagiriye mu nzu mberabyombi, aho hari abantu benshi.

Aba ngaba ni abagabo bane bari kumwe n'umugore w'umuzungu muri make ufite uruhu rwera, bakaba barimo baraganira ku ngingo zigiye zitandukanye.

Uyu mugore uko bigaragara afite ibyishimo byinshi, yambaye umupira utukura akaba yicaye hagati y'abasore babiri barimo baraganira ibintu byiza.

Iki ngiki ni icyemezo cyerekana ko ufashe inkingo z'indwara y'icyorezo, iki cyorezo kikaba cyarasakaye mu isi hose ahasaga umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Uru rubuga turimo turareba hano rUrerekana ko abantu bagomba kwiyandikisha ,bakajya bafashanya mu guteza imbere inzozi zabo bagiye bakabya mu myaka yashize,

Aha ngaha ni ahantuhari inzu nziza cyane ikikijwe n'ubusitani busa neza. Iyo nzu ikaba yegeranye n'umunara utanga ikoranabuhanga kugira ngo abantu, bashobore kurikoresha neza.

Uyu nguyu ni umunara mwiza cyane kandi ni muremure, ukaba uherereye ahantu hari umusozi mwiza cyane mu buryo bugaragara neza.

Aha ngaha abantu barimo baratugaragariza ko tugomba kujya twishimira umunsi mwiza w'umurimo aho ikigo cy'igihugu gishinzwe abakozi cyabifurije igihe cyiza.

Aba bagabo uko ari bane ni abagabo bashinzwe ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bakaba baramenyekanishijwe ku itariki ya mbere Gicurasi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Uru nguru ni urupapuro rugaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aha ngaha bakwereka uburyo ushobora kwerekana imisoro yawe uzishyura muri uku kwezi.

Uyu nguyu ni umunara mwiza cyane uherereye ahantu ari umusozi uteye neza cyane, abantu bahifashisha mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse na mururandasi.

Uru nguru ni urupapuro rushushanyijeho inziramugozi, rudufasha kubona ko dushobora kwiyishyurira imisoro dukoresheje mudasobwa cyangwa se inziramugozi zacu.

Aba bantu biragaragara ko barimo barakoresha mudasobwa. Izi mudasobwa bakoresha baba barimo bariga uburyo zikoramo, biciye kuri murandasi n'ikoranabuhanga.

Uyu nguyu ni umunara mwiza cyane uko bigaragara uri mu mabara atandukanye, umutuku ndetse n'umweru n'irindi bara ry'umukara, uyu munara ukikijwe n'ibindi bikoresho.

Iyi ngiyi ni ifoto itwereka, uburyo urubuga ruzwi nka Irembo rukorera kuri murandasi, baradushishikariza uburyo dushobora kwifashirizaho ibyo dukeneye byose bitadusabye kujya ku muhanda.

Aha ngaha barimo baratwereka urubuga rwiza cyane, aho ushobora kwiyandikisha ugakoramo uburyo bwawe uzajya wishyura ibintu bigiye bitandukanye, bitakuvunnye cyangwa ngo bivune abandi.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane mu buryo bugaragara, haraboneka ko ari ahantu abantu bafashirizwa ku bijyanye no kubitsa ndetse no kubikurizwa amafaranga yabo kugira ngo bayakoreshe.

Aha ngaha ni icyemezo cyerekana ko ugiye gushaka akazi kuri murandasi, ukaba usabwa gushyiramo ibikuranga harimo amanimero y'indangamuntu yawe cyangwa se na nimero za murandasi ukoresha.

Aha ngaha turimo turareba biragaragara ko hari inzu nziza cyane y'ibati ry'ubururu. Hakaba hari n'imigozi ijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Uyu nguyu mureba ni umunara muremure cyane, ukaba uziritseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi. Aho izi nsinga ziba zerekeza mu nce zitandukanye zitanga umuriro w'amashanyarazi.

Aha ngaha ni mu muhandarimo turahabonamo igiti kirekire cyane kiziritseho imigozi ijyana imiriro y'amashanyarazi hirya no hino mu baturage.

Nkuko turimo turabireba hano hari ibikoresho byiza cyane ushobora kwifashisha ubika inyandiko zawe cyangwa se n'ibindi bikoresho byawe muri rusange, hakaba hanakoreshwa ikoranabuhanga.

Hano turarimo turahabona umubyeyi urimo urakora isuku mu muhanda, aho akora isuku yifashishije igikoresho cyo gukubura mu muhanda.

Uyu nguyu ni umuhanda uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba batwereka ko uwo muhanda urimo akadundu, aho ushobora kuhagera ukagenda neza witonze cyane.

Iyi ngiyi ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite n'amadirishya afite irangi ry'ubururu, hakaba hashinze igiti gishamikiyeho imigozi ijyana amashanyarazi.

Uyu muhanda tugezemo turabonamo ko hari icyapa cyerekana yuko imodoka zitwara abagenzi benshi zihagera zigahagarara umwanya muto, hakavamo abagenzi bamwe hakinjiramo n'abandi.

Aha ngaha ni mu muhanda uburyo hagaragara biraboneka ko hari abantu bafasha abandi mu kubona ibijyanye no kuba bahamagara abandi bifashishije inziramugozi cyangwa se mudasobwa.

Iki ngiki ni ikigo mu by'ukuri ni ahantu bafashiriza abantu mu buryo bugiye butandukanye aho uhaza ufite ikibazo bakagufasha kugikemura.

Bano bagabo biragaragara ko ari imfungwa, abenshi muri bo barafunzwe bazira ibyaha bitandukanye, aho baba bazira ubwicanye ubujura cyangwa se gufata ku ngufu.

Uyu nguyu ni umugabo bigaragara ko ni umugabo ushinzwe gukemura imanza z'abaturage , akaba yambaye ikanzu y'umutuku n'ishati y'umweru.

Uyu nguyu ni umugabo bigaragara ko ari umucamanza, akaba yambaye imyenda itukura harimo n'iy'umukara, hakabamo n'imyenda y'umweru.

Uyu nguyu ni numu umugabo bigaragara, ko ari umugabo w'umucamanza, uyu nnguyu akora mu bintu bigiye bitandukanye byo gufasha abantu kuburana kandi bagatsinda.

Uyu nguyu turimo turareba ni umugore ahagaze imbere y'abacamanza, barimo barakora ibijyanye no kuburanisha.

Aba ngaba ni abantu batandukanye bagiye mu bikorwa byo kubarurwa nimba koko batuye mu gihugu cy'u Rwanda, mu buryo bwo kwandikwa kugira ngo bamenyekane.

Iyi modoka turimo turareba ni imodoka ndende mu buryo bugaragara, ikaba ihagazweho imbere n'umugabo ushinzwe umutekano, akaba arimo araka nyirayo ibyangombwa by'iyo modoka.

Aha ngaha ni ku biro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano wo mu muhanda, ndetse n'umutekano w'abantu, ahazwi nko mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Rwezamenyo i Nyamirambo.

Iyi ngiyi turimo turareba ,ni imodoka yifashishwa mu gutwara abanyabyaha cyangwa se abakekwaho kugira ibyaha bakoreye mu muryango w'abanyarwanda.

Uyu nguyu ni umuntu ufite umugozi wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kubera ko imodoka irimo irashya noneho arikuyifasha kurwanya inkongi y'umuriro.

Uyu nguyu ni muzehe, uyu nguyu ni umugabo w'intwari cyane kubera ko yabohoye igihugu cy'abanyarwanda mu gihe cyari kigeze mu kangaratete, ni umugabo w'umunyabigwi tuzahora tuzirikana igihe cyose.

Aba bantu turimo turareba hano rero, ni abantu benshi barimo baramamaza umuyobozi ushaka kuzayobora igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko biboneka hariho amafoto ye.

Uyu nguyu ni umugabo wiyamamarizaga kuba yayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yari arimo agaragariza abaturage imigabo n'imigambi.

Aba ngaba ni urubyiruko rwaje gushyigikira umuyobozi wabo urimo uriyamamariza kuyobora igihugu. Bakaba bibumbiye mu byiciro bigiye bitandukanye.

Aba ngaba ni abantu benshi cyane, mu by'ukuri biragaragara ko bari mu nama ishingiye ku bitekerezo by'abaturage ndetse n'abayobozi babo, bakaba ari abantu benshi mu buryo bugaragara.

Uyu nguyu ni umugabo urimo uragenda mu muhanda, aho bigaragara ko ari gusuhuza abana bamusanze aho ngaho mu muhanda kandi bakaba bagaragara ko bishimye rwose.

Abangaba ni abantu benshi cyane mu buryo bugaragara, barimo baramamaza ishyaka rimwe riri kwiyamamariza kugira umwanya runaka bayobora, riri mu mabara y'umutuku n'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu nguyu ni umugabo yitwa Habineza, ni umugabo wiyamamarije kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko ntabwo byamukundiye yagize amahirwe makeya.

Ahangaha turimo turahabona umugabo ndetse n'umugore, aho barimo barishimira ibikorwa bamaze kugeraho mu kazi kabo ka buri munsi bakaba bakoreye uwo muhango mu nzu mberabyombi.

Aba bantu mureba ahangaha ni abantu benshi cyane biganjemo igitsina gore mu by'ukuri biragaragara yuko bagiye mu nama inama iyobowe n'umugabo ubyibushye.

Uyu mugabo turimo turareba hano, ahagaze imbere y'inteko y'abaturage, akaba arimo ariyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Kimironko, Gasabo, Kigali.

Aba bagabo uko muri kubabona, ni abagabo batatu. Mu by'kuri baje mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu matora, umwe muri bo ari kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu.

Uyu nguyu ni umudamu mu by'ukuri yicaye ahantu akorera; afitemo amabendera y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aya mabendera yacu ni meza cyane kandi arasa neza.

Aba ngaba ni abantu benshi cyane mu by'ukuri bari kugenda mu modoka itwawe n'umuyobozi ukomeye cyane, aho bano bantu bamaze kumenya ko hari umutekano usesuye.

Iyi ngiyi ni imodoka nziza cyane ifite amabara agiye atandukanye, harimo amabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umweru, bikaba bigaragara ko irimo iragenda gupakira ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Iyi ngiyi ni imodoka nziza cyane pe, ifite amabara asa neza cyane mu buryo butangaje gusa hari n'abandi bantu barimo baragendera mu muhanda barimo baritegereza iyo modoka.

Iyi ngiyi ni imodoka ndende iri mu muhanda, hakaba harimo ahatambuka n'undi musore utwaye akanyamitende gatoya, bigaragara ko arimo aragenda yitonze.

Aba bantu barimo baragenda mu mujyi wa Kigali aho bagiye batwaye imodoka zitandukanye, abandi batwaye amapikipiki harimwo n'abacuruje ibisheke ku muhanda.

Ahangaha ni ahantu mu by'ukuri heza cyane, muri uyu mujyi wa Kigali bakaba barimo barahagenda mu masaha ya nijoro abantu bagiye batandukanye, barimo barashakisha imibereho.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza cyane uherereye mu mujyi wa kigali, aho bigaragara ko harimo ibinyabiziga byiza kandi bisa neza cyane mu buryo bugaragara.

Uyu nguyu ni umuhanda mwiza cyane ugaragara ko ukozwe mu buryo bwa kijyambere, ukaba uri kugenderamo imodoka ebyiri, imwe imanuka iy'indi izamuka.

Iyi ngiyi ni imodoka itwara abagenzi muri rusange, ikaba irimo irinjira aho abagenzi bazifatira kugira ngo bajye mu ntara zitandukanye.

Uno muhanda nkuko bigaragara, ni umuhanda mwiza cyane kandi ni umuhanda munini, uyu muhanda ukaba uherereye ahazwi nko ku Kinamba ni mu mujyi wa Kigali, aho bari kuwutemberamo.

Ahangaha ni ahantu hazwi nka i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali, aho bakunda kuhahurira ari benshi barimo baragenda mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uyu nguyu ni umuhanda uherereye mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri imodoka ziri kuwugendamo ari nyinshi ariko hakaba hari n'izindi ziri kugenda z'iwinjiramo buhoro buhoro.

Uyu nguyu ni umugabo arimo kugenda mu muhanda atwaye igare. Uko bigaragara ari kugenda n'amaguru, ariko ari no gusunika igare rye buhoro buhoro.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo uragerwamo n'abantu batwaye amapikipiki abandi batwaye ibinyamitende, aho barimo baragenda bisanzuye kubera ko umuhanda ni munini.

Aba ngaba ni abantu bicaye ahazwi nko mu mujyi wa Kigali, ahantu hatajya hagendera imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga bisanzwe, abantu bahagenda bahagendesha n'amaguru yonyine.

Ibi ngibi ni ibikoresho byifashishwa mu kubaka za nzu ziba zizwi cyane mu mujyi zikomeye. Aho zishobora gugendwamo n'abantu benshi ku munsi, ntizigire ikibazo zigi na kimwe.

Ahangaha turimo turareba ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru, aho abantu bagenda bakina ari benshi bagakina mu buryo butandukanye no mu byiciro bigiye bitandukanye mu ntera.

Iki ngiki ni icyapa kitwereka uburyo ushobora kugenda mu muhanda witonze ,kitwereka ko tugomba guhagarara akanya gato mugihe tugiye kwinjira mu wundi muhanda.

Kino cyapa turimo turareba hano mu muhanda, kiratwereka ko umuhanda turimo mugari uribuze kwisukamo akandi gahanda gatoya gaturutse mu kuboko kw'ibumoso.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda. Iki cyapa cyerekana ko uwo muhanda tugezemo, hatajya hanyurwamo imodoka zikoreye imizigo, nk'uko bigaragara muri kino cyapa.

Ikingigiki ni icyapa mu by'ukuri cyiza cyane. Iki cyapa cyereka abagendera mu muhanda ko, hemerewe kugendwa iburyo ndetse n'ibumoso mu byerekezo byombi.

Hano barimo baratwereka icyapa cyiza cyane, iki cyapa cyerekana ko aho hantu tugeze harimo harabera imirimo y'ubwubatsi. Icyapa cyo mu mabara meza y'umuhondo ndetse n'umukara.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda kimurika. Iki cyapa mu byukuri kirimo kiratwereka ko hari abantu barimo baratambuka, tugomba kugenda twitonze mu buryo bwo kurwanya impanuka zitateganyijwe.

Aha hantu nkuko turimo turahabona ni mu gice cy'intara y'Iburengerazuba, ahazwi nko mu karere ka Rusizi. Icyapa kikaba kiri kutwereka ko tugiye kwinjira muri ako karere.

Ahangaha ni mu muhanda wo mu mujyi wa Kigali. uko igaragara, biraboneka ko ari abantu benshi batandukanye barimo barawugendamo, kandi barisanzuye mu by'ukuri.

Nk'uko turimo turabibona hano hari inzu ishaje, ariko ikaba ikikijwe n'izindi zitaratangira gusaza, aho bigaragara ko hari n'ibihingwa biyigaragiye.

Aha ngaha turimo turareba ni ku musozi mwiza cyane uherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nk'i Ndera aha ngaha hazwiho ko haba ikigo kivura abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Uyu nguyu ni umuhanda mubyukuri ugaragara ko ari umuhanda mwiza cyane, aho wifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, batwaye ibinyabiziga byabo, bakawunyuramo bazengurutse.

Hano nk'uko turi kuhabona ni ahazwi nka Rwampara cg se mu Rugunga mu mujyi wa Kigali, aho tubona ibinyabiziga biri kuhagenda bimanuka cyane ku muvuduko mwinshi uteye ubwoba.

Umuhanda mwiza cyane urimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibiti, hakabamo abantu bari kugenda ku mapikipiki yabo, harasa neza cyane mu buryo butangaje.

Aha ngaha ni ahantutu hazwi nko mu mujyi wa kigali hari ikiraro gihuza umuhanda wo mu kirere, uturuka mu mujyi wa Kigali rwagati weherekeza ahazwi nko ku kimihurura.

Aha ngaha ni mu muhanda mwiza cyane uherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kanogo ahahurira uturere dutandukanye tw'umujyi harimo Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro.

Uyu nguyu ni umuhanda mu byo ukuri, umuhanda ukoreshejwe ibikoresho bitandukanye, ukaba ufite ibara ry'umukara, ukaba kandi waragiye utakaramo ibyondo.